Abagabo n'abagore cumi n'umwe bari mu nzu imwe, bicaye mu ntebe, imbere yabo hari imeza y'umutuku bari mu nama.

Umukobwa uri kuvuga imbere y',abantu bambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hateretse amazi y'inyange yo mu gacupa.

Abantu benshi bicaye hamwe ndetse bari guseka, imbere yabo hateretse igiti cy'icyatsi giteye mu kavaze ndetse abantu barimo.

Abantu bicaye, bari kureba imbere ndetse imbere yabo hateretse icupa ryamazi, hari n'ibirangantego bisa ubururu ndetse n'umweru, bicaye ku meza asa umweru.

Abantu benshi bicaye, n'undi umwe uhagaze, abantu bakaba baciyemo ibice bibiri, bamwe bicaye hepfo abandi bicaye haruguru, aho hantu hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'inzu ntoya.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru ndetse imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi n'undi uri hino ufite indangururamajwi ndetse imbere ye hateretse telefone.

Abantu benshi barimo kureba mu cyerekezo kimwe, bahagaze basa nk'aho bagiye gufata ifoto y'urwibutso, bari munsi y'inzu.

Umukobwa w'igikara ufite mudasobwa mu ntoki uri ku ruhande rw'umugabo wambaye ikote ry'umukara imbere hari icupa ry'amazi.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hateretse icupa ry'amazi ku meza y'umukara, ndetse harimo umuntu wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru ndetse n'amarinete afite ibara ry'umukara n'ibirahuri bibonerana.

Abantu benshi bari hamwe. Bafite icyapa cya RGB cyanditseho amagambo asa n'umukara ndetse n'ubururu, n'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye ndetse n'undi umwe ubahagaze imbere, bafite indangururamajwi ndetse bakaba bari mu nzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Abantu benshi bicaye bambaye amakoti y'imikara ndetse n'amashati y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo ku meza afite ibara ry'umweru, hateretse amacupa y'amazi ndetse n'ibikombe banyweramo n'impapuro kandi hakaba hari n'indabo ku meza.

Abantu benshi bicaye mu ntebe iri kureba mu cyerekezo kimwe cy'umuntu uhagaze bari mu nzu itatse amabara y'igihugu cy'u rwanda.

Abantu benshi harimo n'umwe uri kumwenyura, yambaye umupira w'umuhondo inyuma ye hari uwambaye umupira usa nk'icunga ribisi, ndetse hirya hari abandi babiri bamanitse amaboko bambaye amakoti.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza y'umukara ariho uducupa tw'amazi ndetse n'ibikombe by'ibirahure banyweramo.

Abagabo bane, umwe ahagaze, batatu bicaye, umwe uhagaze yambaye amadarubindi, yambaye ishati y'umweru n'umukara, afite ikaramu mu ntoki.

Abantu benshi bicaye bari kwifotoza ndetse batatu baricaye, abandi bane barahagaze, hirya hari ibyapa biranga icyo bakora ndetse bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu benshi bicaye ku meza bayizengurutse imbere yabo hateretse ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi mo hagati hakaba hari ururabyo ruteye mu ivaze.

Abantu benshi bicaye mu ntebe bari kureba mu cyerekezo kimwe, hirya hari abandi bicaye bari kurebana, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imeza y'uruziga.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, umwe ari imbere yabo imbere ye hari imeza iriho igitambaro cy'umutuku, yambaye ikanzu y'umweru ndetse abantu bari kuganiriza bari kumureba.

Abantu benshi bazengurutse ameza afite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hateretse indangururamajwi, mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umuntu uri imbere y'abantu ufite mikoro uri gutanga ijambo ndetse yambaye ikimuranga mu ijosi, abandi baramukurikiye inyuma bicaye ku ntebe z'umuhondo.

Abantu batatu bahagaze umwe yambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda undi yambaye umupira w'umweru yambaye amadarubindi y'umukara ndetse afite n'agakapu ku rutugu k'umutuku.

Abantu benshi bazengurutse ameza, imbere yabo hateretse indangururamajwi ndetse bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse n'imeza isa umutuku.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hateretse mudasobwa, ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi, bari mu nzu ifite amarido maremare ndetse n'ibirahure bibonerana.

Abantu benshi bicaye ndetse umwe uri kubabwira ibyo abamenyesha, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu batandatu bicaye mu ntebe, bari imbere y'imeza, ifite igitambaro gisa umweru, itatseho indabyo, bafite amacupa y'amazi imbere yabo.

Abantu benshi bicaye bahuriye hamwe bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye amakoti abagabo y'umukara ndetse harimo n'abamama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na ji.

Abantu benshi bicaye bazengurutse ameza, imbere yabo hateretse mudasobwa, impapuro ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bicaye imbere y'ameza, imbere yabo hatetse mudasobwa mu ducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo bitandukanye.

Abantu batatu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo ku meza asa ikigina hateretse ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bari mubyicaro bari mukibuga, hagati harimo umuntu bisa nkaho ari kubaganiriza, bamwe bicaye ku biti, abandi bicaye mu ntebe.

Abantu benshi bicaye mu byicaro inyuma, abandi baricaye imbere bafite amacupa y'amazi imbere yabo kumeza y'umweru n'umukara, kandi hasi hari amabara menshi atandukanye.

Abantu benshi bicaye ku meza zigiye zitandukanye, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa, umwe yambaye ikote ry'umukara, undi mupira w'umukara, undi umupira w'umutuku bari kuganira.

Abantu benshi bicaye ndetse n'undi umwe uhagaze, ufite indangururamajwi ndetse abicaye imbere y'ameza hateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bari kuganira ndetse bari gukina imikino y'ikinamico bane bahagaze bari kubwira abandi benshi bicaye mu byatsi hakurya yabo.

Abantu benshi, bari kureba mu byerekezo bimwe, bicaye mu ntebe imbere yabo hari imeza ziriho amacupa, y'amazi yo kunywa.

Abantu batatu bahagaze umwe yambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda undi yambaye umupira w'umweru yambaye amadarubindi y'umukara ndetse afite n'agakapu ku rutugu k'umutuku.

Abantu benshi bicaye, bambaye amakarita mu majosi yabo ndetse imbere y'aho hateretse amacupa y'amazi abonerana.

Abantu benshi bicaye bazengurutse ameza asa umutuku ndetse imbere yabo hari indangururamajwi, bicaye no ku ntebe zisa umukara.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa umuhondo, imbere yabo hateretse amazi mu ducupa ndetse imbere hahagaze umumama uri kubabwira, inyuma ye hari icyapa cyanditseho koperative lidashipu seminari bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi bicaye ku mameza ari mukiziga, ayo mameza ariho ibitambaro bisa icyatsi kibisi, bisa nkaho bari kureba mu cyerekezo kimwe imbere.

Abantu bari kuganira bambaye imipira y'umweru babakobwa ndetse n'umuhungu umwe.

Abantu benshi bicaye bafite mudasobwa imbere yaho bari munzu ifite ibirahure bibonerana ndetse ifite ibikuta by'umweru.

Umuntu uri kuvugira kuri indangururamajwi, imbere ye ateretse bike ndetse n'amazi n'igikombe ndetse intebe biriho isa umweru.

Abantu bicaye mu nama, umwe uri imbere wambaye marinete y'umukara, n'ishati isa pinki, imbere yabo hari ameza y'umweru, ariho ikiranganteko gisa ubururu n'umweru.

Abantu benshi bicaye bazengurutse, imeza, ndetse umwe ahagaze, ariko babwira, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye imbere y'ameza afite ibara ry'mweru ndetse ku meza hakaba hariho ibitabo, indabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, imbere yabo hari mudasobwa z'umweru dede, mudasobwa ziri ku meza zisa umukara kandi bambaye amakoti.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, umwe ari gufata amashusho y'umuntu ufite indangururamajwi mu ntoki, bisa nk'aho ari kubwira abantu benshi, undi yicaye ari kureba hasi ndetse n'abandi bari kumureba.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa umukara, bari kuvugira ku ndangururamajwi, imeza ya bo isa umutuku ndetse imbere ya bo hateretse uducupa tw'amazi.

Umuntu uri kuvugira ku ndangururamajwi, wambaye ikote risa ikigina ndetse ishati y'umweru na karuvati isa ubururu, inyuma ye hari icyapa gisa umweru ndetse hariho umuntu ushushanyijeho.

Inzu, ifite igikuta kigiye yihumetseho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, imbere y'umuryango hari umugabo uri gutambuka, wambaye ishati y'umweru, w'umusaza.

Abantu benshi bahagaze, abandi bari kugenda, hino hari ibyatsi ndetse n'indabyo ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse ku ruhande hari inzu y'amagorofa.

Intebe nyinshi ziri imbere y'amameza ari mumabara y'umweru ziri munsi y'amatara amurika ibara ry'umweru izo ntebe ziri mu ibara ry'umukara ziri kureba mu byerekezo bitandukanye.

Abantu babiri bicaye bari gukoresha mudasobwa ndetse bayiteretse ku meza isa ikigina ndetse imbere yabo hari ikindi gikoresho gikoreshwa.

Umugabo ufite igikoresho cyifashishwa guhamagara ndetse no gufata amafoto, agifite mu ntoki, ndetse ari kurebamo, yambaye ishati y'umweru, ndetse iyo shati irimo ubudomo bw'umukara.

Abanyeshuri batatu bari gukoresha mudasobwa iteretse imbere yabo ndetse ikaba isa umukara ndetse n'umweru, iteretse ku meza isa ibara ry'ikigina.

Abantu benshi bari hamwe imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa ku meza ndetse hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze n'abandi bicaye.

Abantu benshi bicaye imbere yaho hateretse mudasobwa ndetse izo bari gukoresha n'izindi zizinze ziteretse ku meza isa n'umukara ndetse bicaye no ku ntebe z'umukara.

Inzu iri ahantu hitaruye, hateye ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti bisa icyatsi, ikaba ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Agashushanyo gafite imiterere ya mpande enye, agashuyo kari mu ibara ry'ubururu, ndetse icyo gashushanyijeho kiri mu ibara ry'umweru gafashe ku gikuta.

Umuntu ufite imisatsi miremire wambaye umupira usa umukara ndetse mu ntoki ze afite mudasobwa isa umukara ndetse n'umweru.

Umunara wa konegisiyo, usa umweru n'umutuku ndetse hasi hakaba igishushanyo cya MTN n'igipangu cy'ibyuma.

Abantu bicaye mu nama imbere yabo hari mudasobwa, imbere yabo kandi hari umwarimu uri kubaha amasomo, ameza ateretseho mudasobwa arasa umutuku ndetse bamwe bafite na terefone bicaye no ku ntebe z'umukara.

Inyandiko iri mu ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru, hariho n'idarapo hejuru ry'abongereza ndetse n'ikirangantego cya Rwanda Revenue Autority.

Umunara w'amashanyarazi ukikijwe n'akazu gato gafite urugi rw'ubururu ndetse izengurutswe nurugo rw'ibyuma bikomeye.

Abantu bicaye benshi bari gukoresha mudasobwa ndetse bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'umweru.

Inzu isa umuhondo ndetse n'umuntu uri kugenda hafi y'iyo nzu wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro ya shokora n'umupira w'umweru na shokora, uhetse n'akabage.

Itangazo rivuga umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki. Umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa inyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro inyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu rwanda.

Abantu benshi bari mu byiciro bitandukanye, bamwe bahagaze begamye ku gikuta, abandi bicaye begamye ku gikuta gisa umweru ndetse n'inyandiko zirimo umutuku.

Igiti gisa umutuku, igiti gitanga amashanyarazi, antene itanga konekisiyo, imodoka isa umweru, ibyatsi bisa icyatsi.

Umuhanda muremure urimo abagenzi babiri umwe wambaye umupira usa n'ubururu ndetse umuhanda ukaba ufite amabara asa umukara n'umweru n'ibiti biwukikije ndetse n'amazu.

Igipangu giparitsemo imodoka ndetse gishinzemo idarapo ndetse n'amatara ariho insinga zitanga amashanyarazi ndetse n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Ibiti bisa icyatsi ndetse hari n'ipoto ritanga amashanyarazi ryitwa taransifo, ritaransifominga umuriro mu baturage.

Inzu ya konoshi, hasi hari icyapa kiranga amerekezo, ndetse hateye igiti gisakaza amashanyarazi bacishaho insinga z'amashanyarazi, hakurya hari izindi nzu zisa umweru.

Umuhanda muremure uciyemo ibisate bibiri ndetse ukaba ukikijwe n'amazu ndetse n'ibiti, n'indabo, n'igiti kirekire gicishwaho insinga z'amashanyarazi.

Umukobwa wambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru, wambaye ikote riri mu ibara ritukura ndetse yambaye isengeri cyangwa impuzankano y'akazi ya REG.

Abantu batatu bari kugenda mu muhanda, hakurya hateye ibiti bisa n'icyatsi kibisi ndetse hari igiti kiriho insinga zitanga amashanyarazi zisa n'ibara ry'umukara.

Umuhanda urimo abantu benshi ukikijwe n'amazu ndetse n'ibiti, ukaba urimo ibiti birebire bicishwaho umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ifite amategura hejuru ndetse hari n'icyuma gishyushya amazi, imbere ya ho hari ifoto rishinzeho amakamera yo ku muhanda ndetse hari n'icyapa cya inshuwarensi.

Igipangu gisa umutuku, ibyatsi by'icyatsi, igiti gitanga amashanyarazi, umuhanda aho abanyamaguru bagendera.

Icyapa gisa nk'umutuku n'umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara n'umutuku hasi hateye ibyatsi.

Umuhanda muremure ku ruhande rw'umuhanda hariho amabara abiri atandukanye, harimo umukara ndetse n'umweru, hirya hari ipoto ritandukanye risakaza umuriro w'mashanyarazi mu baturage.

Inzu ifite irangi ry'umukara, ifite urugi rufite ibirahure by'umukara ndetse hakurya yaho hashinze igiti gitanga amashanyarazi cy'umukara.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu abiri afite ibara risa umweru ndetse n'umuhondo, umuhanda kandi ukaba uri gutambukamo n'abantu.

Umuntu uri kugenda mu muhanda w'ibitaka ukikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti binyuzwaho umuriro w'amashanyarazi yambaye imyenda y'umukara...

Umuganga wambaye imyenda y'umweru n'umutuku, afite igikoresho mu ntoki ku ruhande hicaye umurwayi wambaye igitenge.

Amadarapo abiri ashinze mu mabuye, hepfo haparitse imodoka zirindwi ndetse hirya hari inzu y'umuhondo, hasi hari sima y'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bivuga ku ivuriro ry'i Kabgayi, hasi hari umuhanda w'igitaka.

Inzu ikikijwe n'ubusitani ndetse n'ibyapa, bifite ibara ry'ikigina ndetse ku ruhande hari umuntu, uri kuhatambuka.

Inzu yubakishijwe amatafari ngufi, ndetse n'ibyuma bikingira aho abanyamaguru baca kugira ngo imvura itabanyagira imbere yaho hateye ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye mu nzu ndetse harimo n'abandi bahagaze bari kugenda, hari intebe zisa ikigina ndetse n'umukara, inzu ikaba isa umweru.

Umuntu ari kugenda mu muhanda, ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'umuhondo n'inzu zifite ibisenge bifite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, bari kureba mu cyerekezo kimwe, hirya hari abahagaze, bari imbere y'amadirishya afite ibirahure bibonerana, inzu ifite amatafari.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'inzu, hakaba harimo ubusitani bufite ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi n'ibigega by'amazi ndetse hakurya hakaba hari inzu ndende z'amagorofa.

Abagabo babiri bahagaze bafite igiti mu ntoki, bambaye imyenda y'abacamanza, iri mu mabara y'umweru, umutuku, ndetse n'ubururu bwijimye, ku ruhande hari umuntu ufite indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe hari umugabo wegamye ku giti yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro yu'umweru hari nabamama bicaye ku misambi bambaye ibitenge, hari n'undi mugabo uhagaze yambaye ishati y'umweru n'ipantaro ndetse n'umukandara afite umutaka mu ntoki.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru wambaye ingofero y'umukara, n'amadarubindi asa n'umukara, afite ibirahure bibonerana, inyuma ye hakaba ari igikuta gisa umweru.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, akaba afite mu ntoki ze igitabo gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, akaba yambaye imyenda isa n'iroza ndetse n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye ibintu by'umutuku, wisize ibintu by'umutuku ku munwa, wambaye amarineti n'ingofero n'ishati.

Umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye umutuku, umukara ndetse n'umweru, inyuma ye hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye ku meza y'uruziga, imbere yabo hari ibirahure bicaye barebana, hari abambaye amakote y'ubururu, umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Ibyangombwa bya leta byandikishijwe ibara ry'umukara ndetse ku rupapuro rusa umweru.

Umugabo wambaye amadarubindi yambaye isaha ku kuboko bisa nkaho arimo gusaba imbabazi yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Abagabo benshi n'abagore batandukanye ndetse n'undi mugore wicaye yambaye ingofero n'ikanzu y'umutuku yicaye mu ntebe, abandi bari imbere ye bahagaze, bari imbere y'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu babiri bicaye mu ntebe barebana imbere yabo hari ibirahure by'amazi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru undi yambaye amadarubindi.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahuri bibonerana, inyuma ye hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abagabo benshi bicaye ahantu hamwe bacucitse, inyuma yabo ndetse no ku ruhande hari abasirikare b'u Rwanda, bamwe bicaye bareba mu cyerekezo cy'imbere undi areba ku ruhande.

Umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Inyuma ye hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abantu batatu, babiri b'abapolisi ndetse n'umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'amadarubindi asa umukara n'abapolisi bambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda, inyuma yabo hakaba hari idirishya rifite ibirahure bibonerana.

Umugabo ufite indangurura majwi mu ntoki, yambaye imyenda y'abacamanza, ku ruhande rwe hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma ye hari ikirahure kiri mu ibara rya zahabu.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'icunga, inyuma ye hakaba hari igikuta gisa umweru.

Umuntu wambaye amarinete yumukara afite ibirahure bibonerana, ndetse wambaye ikote ry'umukara nishati yumweru inyuma ye, hakaba hicaye abandi bantu benshi.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Abantu batatu bicaye mu ntebe imwe bafite ibitabo mu ntoki, bambaye udupfukamunwa, babiri bambaye imyenda irimo amabara abiri y'umweru n'umukara, undi yambaye imyenda yihariye.

Abantu benshi bicaye bamwe bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru bakaba imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ku mameza yabo.

Abantu benshi bicaye mu byicaro, bareba mu cyerekezo kimwe, bambaye imyenda itandukanye harimo iy'amabara y'ubururu, umukara, umweru ndetse abandi bicaye imbere ya mudasobwa ziri ku meza.

Abagororwa bari gusohorwa mu modoka z'imfungwa, bambaye imyenda y'abagororwa, bambaye ndetse n'udupfukamunwa, hari ushinzwe abagororwa uri gufungura iyindi modoka ngo abandi basohoke.

Abantu, babiri, bicaye, bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hateretse, mudasobwa, ndetse bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Igipapuro cyandikishijweho amagambo y'umukara hariho amatariki, aho byabereye, Kagame Paul, Karugama Taricise.

Umuntu uri kuzimya umuriro na kizimyamoto, ahagaze imbere y'abanyeshuri bafite kizimyamoto isa umutuku ndetse ahagaze mu byatsi bisa icyatsi.

Inzu ndende y'amagorofa, imbere yayo haparitse ibinyabiziga bibiri, ndetse inzu ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Imodoka ebyiri ziparitse imwe ifite ibara ry'umweru, umukara, umuhondo ndetse imwe ifite purake isa n'ibara ry'umuhondo ndetse hakurya hakaba hateye ibiti bisa n'icyatsi kibisi.

Igikuta gisa umweru kiriho ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bisa umweru ndetse n'umutuku n'ibara ry'umukara.

Igikuta, gisa umweru. Kiriho ibizimya nkongi, bibiri, bisa umutuku, bifite n'ibara ry'umukara ndetse,

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu, ukikijwe n'inzu ndende y'amagorofa ndetse n'ibyapa biranga amerekezo.

Ikiraro kiri gucaho abagenzi gisa umutuku ndetse hariho umugore n'umugabo, mu muhanda harimo imodoka ya polisi isa umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda uparitsemo imodoka ebyiri ndetse umuhanda ukikijwe n'ibyatsi biri mu busitani buteyemo indabo ndetse hakurya hakaba hari inzu ndende ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Abantu babiri batwaye ibinyabiziga by'ibinyamitende, ndetse imbere y'umuntu utwaye ikinyabiziga, hari umupolisi uri kumwemerera gutambuka, wambaye imyenda isa umukara.

Umuhanda muremure urimo abantu babiri umwe w'umupolisi ndetse n'undi w'umuturage, uwo muhanda kandi urimo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi biteye hafi y'igipangu.

Umuhanda urimo imodoka ndetse n'abapolisi, imodoka isa ibara ry'kigina umupolisi wambaye imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi hakurya hari inzu ifite amabati y'icyatsi.

Ikiranganteko gifite amagambo asa ubururu ndetse n'ikiranganteko gisa icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye.

Abantu benshi batagaragara imitwe bari mu muhanda, umwe wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse undi yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo uri kubyina wishushanyijeho amarangi, afite inyuguti ya P mu gatuza yisize amabara atukura, ubururu bwigicucu ndetse n'umweru.

Umuntu ufite amazuru manini, iminwa mitoya, amaso manini, ndetse ingoyi nyinshi wambaye ikote risa umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo mwiza wasamye turi kubona amenyo y'umweru, yambaye ishati y'umweru dede ndetse n'ikote ry'umukara ndetse yambaye n'amadarubindi.

Umukuru w'igihugu ahagaze ari kuvuga ijambo hejuru ye handitse amagambo y'iyamamaza ryo muri 2024 ari kuvuga ngo tora paul kagame 2024

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi n'indangururamajwi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'ameza afite ibara ry'ikigina.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bafite impapuro mu ntoki, bambaye imyenda y'umweru, ndetse hasi hari umukeka uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru abandi bambaye iy'ubururu, imbere hicaye umusirikare ndetse n'abandi harimo n'uwa polisi y'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zitondetse zireba mu cyerekezo kimwe, abandi nabo bari mu ntebe zitondetse zireba mu kindi cyerekezo kirebana n'abandi, bose bicaye bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bari mu nzira bari kugenda harimo n'umuzungu ufite imisatsi miremire, hejuru y'aho hantu bari kunyura handitse twitabire amatora duhitemo neza.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umuntu, uri kubabwira ufite indangururamajwi mu ntoki ze, uri mu kazu gatoya gafite amabara atandukanye, ndetse n'ikindi cyiciro cy'abantu benshi, bitwikiriye hirya mu gishitingi.

Abantu benshi bicaye ku meza isa umuhondo ndetse n'umutuku n'undi uhagaze, ufite igikoresho cyifashishwa hakururwa amashusho ndetse abicaye imbere yabo, hari uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Umugore ubyibushye ufite mu maso hanini ndetse n'iminwa yenda gusa umutuku witeze igitambaro mumutwe, wambaye amaherena, ikanzu ndetse n'agashenete.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hateretse indangururamajwi ku meza ifite ibara ry'kigina ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu batonze umurongo, bagiye kwaka serivise, hari aho bamena imyanda hasa n'icyatsi, ndetse bose bahagaze ku murongo.

Umuntu wicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hakaba hari igikuta gisa ubururu ndetse akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu n'amadarubindi afite ibara ry'umukara n'ibirahure bibonerana.

Umugabo wambaye ishati isa ikigina, ubururu, wambaye amarinete ndetse ubona ko akuze, wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda muremure urimo imodoka ebyiri, ziri kubisikana imwe ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse umuhanda ukaba ufite igice kiwugabanyamo kabiri, umuhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi ndetse n'ibyapa biranga amerekezo.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga ndetse n'abantu, ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bisa icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo abantu benshi bari gutambuka ndetse umuhanda ukaba uparitsemo ibinyabiziga bisa ubururu bifite amagambo abyanditseho asa n'umweru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire bisa icyatsi kibisi, ndetse n'ibinyabiziga bitwaye abantu biri mu muhanda.

Igikamyo kirekire kandi kinini, gifite amapine atandatu, kiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, ayo mapine ariho ibitaka ndetse n'ivumbi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kuwutambukamo, umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu ndetse n'igipangu.

Imodoka, umuntu utwaye igare ririho amagi y'umuhondo, abamotari bahetse abagenzi, umuhanda w'umukara.

Imodoka ifite amapine y'umukara, ndetse isa icyatsi, mo imbere yaho hari indi modoka isa umweru.

Ibinyabiziga byinshi biri mu mabara y'umutuku ndetse ibindi biri mu mbara y'ubururu, ndetse biri kwambukiranya imihanda, bibisikana, bimwe bireba mu byerekezo bitandukanye, ibindi bihagaze.

Ibinyabiziga bihagaze ahantu hamwe biri kureba mu cyerekezo kimwe, biri mu mabara menshi atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru kandi biri kureba mu cyerekezo kimwe.

Imodoka ifite amapine y'umukara, ifite ibara ry'umweru hasi, ibirahure bigasa umukara, aho abagenzi bicara hasa umutuku ndetse hari itiyo zijyana amazi.

Umuhanda muremure urigucamo ibinyabiziga ndetse ukikijwe n'ibiti bisa icyatsi kibisi, ndetse n'ibyapa biranga amerekezo.

Ibinyabiziga bibiri biri mu bwoko bw'imodoka bwikoreye ibintu bitandukanye ndetse hepfo hakaba hari abantu n'ibiti bikikije aho izo modoka ziri, bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga giparitse gifite ibara ry'umweru, ndetse hepfo hakaba hari inzu ndetse ikikijwe n'ibiti bisai icyatsi kibisi.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga, umuhanda ukikijwe n'inzu ndetse n'ibiti birebire by'imikindo bisa icyatsi kibisi.

Umuhanda muremure urimo umunyonzi utwaye igare ndetse umuhanda ukaba ukikijwe nibiti bisa icyatsi kibisi.

Ikinyamitende gihagaze ku muhanda usa ikigina, kinyamitende kikaba gisa umutuku, umukara, ndetse n'umuhondo. Hakaba hari abantu mu muhanda bari kugenda benshi ndetse n'ibiti bikikije umuhanda n'inzu.

Imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'icyatsi, iri mu muhanda muremure itwaye abagenzi.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku n'umukara ndetse hakurya hakaba ibiti by'icyatsi kibisi birebire. Imodoka iri mu muhanda muremure wa kaburimbo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti, bisa icyatsi kibisi n'ibyapa byo mu muhanda biranga amerekezo.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri, hirya hari igice gitandukanya imihanda ibiri harimo ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu ari hakurya.

Ibinyabiziga biri kugenda mu byerekezo bibiri bitandukanye, mu muhanda umwe hari igikamyo kiririmo ibara ry'umutuku, ndetse n'amapikipiki ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Igikamyo kiri mu mabara menshi harimo umweru ndetse n'umutuku, kiri kunyura ahantu hari akabari ndetse iruhande rw'ibiti bisa icyatsi kibisi, iri guca mu muhanda izamuka.

Ibinyabiziga biri mu muhanda ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo imodoka isa umweru ndetse n'umukara, ifite n'ibara ry'umuhondo iri mu muhanda muremure wa kaburimbo hakurya hateye ibiti bisa n'icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo imodoka ndende itwara peteroli ndetse ikaba umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse umuhanda ukaba urimo n'ibindi binyabiziga byinshi.

Umuhanda w'umukara, umumotari utwaye umugenzi ukikiye akana hagati yabo uko ari babiri.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hicayemo umuntu uri gutwara mu muhanda, ku ruhande hariho ibyatsi birimo icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bifite ibara risa n'icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse ukikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abagenzi bari guca ku nkengero z'umuhanda.

Ibinyabiziga biri kubisikana mu muhanda muremure, hirya hari ibindi binyabiziga bihagaze, biri mu mabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umuhondo.

Umuhanda urimo ikinyabiziga, imodoka ndetse n'abantu bari kuwugendamo ndetse imodoka ikaba ifite ibirahure bibonerana ndetse ibara ry'umukara n'ubururu.

Imodoka ifite amabara menshi atandukanye harimo: umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, ndetse n'umukara. Ku ruhande hari abantu bari gutambuka benshi batandukanye.

Igikamyo cyiza kinini, kigura amafaranga menshi, gisa nabi ku mapine, gifiteho ivumbi n'ibitaka, kiri mu ibara ry'ubururu, umutuku n'umweru, kirekire gihagaze mu muhanda.

Umunyonzi wikoreye amabati aziritse ku igare, ari kubisikana n'undi wambaye umwenda w'icyatsi, uwo wundi yambaye umupira w'umweru, ndetse harimo n'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse naho amazi anyura.

Imodoka y'igikamyo iri kugenda igiye kubisikana n'indi y'igikamyo, ifite imizigo iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'umuhondo igiye guca munsi y'ikiraro.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amazu ari hepfo cyane y'uwo muhanda.

Ibinyabiziga biri mu muhanda muremure, hakuno hari inkengero z'utuyira tw'amaguru ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga ndetse ufite inkengero z'aho abanyamaguru baca ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti bisa icyatsi kibisi ndetse n'amazu n'amatara yo ku muhanda.

Ibinyabiziga birimo amabara menshi, harimo: amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, biri kureba mu cyerekezo kimwe bihagaze ahantu hamwe.

Ikinyabiziga kiri gutambuka mu muhanda mutoya, harimo abantu bari gutambuka ku mpande, moto igiye kubisikana n'indi, ziri mu mabara abiri asa.

Imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye zireba mu byerekezo bimwe, zihagaze ahantu hamwe, harimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, zifite ibirahure bibonerana.

Umumotari uhetse umugenzi barimo umuhanda muremure, moto isa umutuku n'umweru ndetse ifite ibinyabiziga bibiri bifite ibara ry'umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umukara, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi bari guca ku nkengero zaho ndetse n'amazu akikije umuhanda afite amabara atandukanye ndetse n'ibinyabiziga n'ibyapa byo mu muhanda.

Imodoka ikoreshwa mu kujyana abantu n'ibintu hirya no hino iri kugenda mu muhanda muremure iri mu cyerekezo kimwe n'igare ririho abantu babiri.

Abantu batatu bahagaze imbere ya bisi itwara abagenzi yitwa litiko bisi ifite ibirahuri by'umweru, ikagira amatara y'umweru ndetse igasa icyatsi hirya hakaba umusozi uriho amashyamba y'icyatsi.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, ikaba ikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'inzu z'ama etaje ndende.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bareba mubyerekezo bitandukanye, abandi bari gutambuka iruhande rw'inzu barimo, ku ruhande hari ibyatsi biri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Abantu bicaye mu nzu ifite ameza afite amabara atandukanye umweru, ubururu ndetse n'kigina, hakaba harimo n'indabyo ziteye mu mavase.

Ikibuga gikinirwamo umupira ndetse n'ikindi gikinirwamo tenisi ndetse na volleyball, hirya hari intebe ndetse n'igisenge gitwikira aho abafana baba bicaye.

Ikibuga gikinirwamo kirimo ibara rya kaki harimo imirongo y'umweru igenda inyuramo, hirya hari abantu bahagaze benshi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo cyerekana ko umuhanda urimo ubunyerere cyangwa umuhanda unyerera.

Icyapa cyo mu muhanda kiri imbere y'ibiti by'icyatsi kibisi bifite amashami menshi, bisa nkaho icyo cyapa gifite amabara umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse ukikijwe n'ibiti birebire ndetse ku nkengero zaho hariho abantu bari kuhagendera n'icyapa kiranga amerekezo ndetse n'inzu.

Ibyapa bibiri biri ku ipoto rimwe rishinze hasi byerekana ko uwo muhanda imbere hari ahantu hambukirwa n'abanyamaguru kandi imodoka zihabisikanira.

Icyapa kerekana ko imodoka ndende zitemerewe guparika, gifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku ndetse n'umweru, kimenyesha ko nta modoka za bisi zigomba guhagarara aho hantu.

Icyapa cy'ubururu giteye mu byatsi bisa icyatsi kibisi, ibyatsi byegereye umuhanda muremure umanuka winjira mundi muhanda muremure, ku ruhande hari ikinyabiziga cy'amapine abiri.

Umuhanda muremure urimo abanyamagare bari mu masiganwa, hari icyapa kigaragaza akarere ka muhanga abaturage benshi bari kureba.

Icyapa gishinze hasi mu byatsi kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, gifite mpande enye ndetse kiri kwerekana ko imbere hari umuhanda ukata iburyo.

Ikimenyetso kigaragaza ko aho hantu hatemerewe guparika mu muhanda, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara n'umweru, gisobanura aho ibinyabiziga bitemerewe guparika.

Umuhanda muremure uciyemo ibisate bitatu ndetse urimo ibimenyetso biranga ibyerekezo by'umuhanda ndetse hakurya hakaba hari ubusitani burimo amatara yo ku muhanda, ndetse n'ibyatsi bibisi.

Ikirangantego cyerekana icyerekezo cy'iburyo, kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, kiri muri mpande enye ndetse kiri no ku meza y'igiti.

Icyapa cya mpandeshatu kiri mu mabara abiri atandukanye, harimo umutuku ndetse n'umukara cyerekana ko imbere hari ibikorwa by'ubwubatsi.

Icyapa kiranga amerekezo gifite ishusho ya mpande enye gishinze ndetse kikaba gifite amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse kikaba gifite n'ibara ry'umweru kikaba gikikijwe n'ibiti birebire bisa icyatsi.

Umuhanda muremure w'igitaka, ukikijwe n'amazu magufi ndetse urimo ibiti bisa icyatsi birebire, bifite amashami maremare.

Amazu menshi yubatse mu buryo bugezweho. akikijwe n'ibiti ndetse harimo amazu magufi n'amazu maremare ndetse ibiti bihakikije birasa icyatsi.

Inzu nyinshi zicucitse zifite amabati afite amabara atandukanye, hari i zifite amabati asa nk'icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, zifite amarangi y'ibikuta by'umweru ndetse hari n'igeretse.

Inzu ifite icyapa gisa umweru cya farumasi cyaho bagurishiriza imiti; ndetse imbere hakaba ibindi byapa bibiri bisa umukara; bishushanyishijeho amagambo asa n'umweru.

Inzu nyinshi zicucitse zirimo amabara y'umweru, umutuku ndetse hino hari ibiti byinshi ndetse n'indabyo ziri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo abantu bari kuwutambukamo ndetse ukaba ukikijwe n'inzu zimanitseho ibyapa bitandukanye.

Ibinyabiziga biri mu muhanda ndetse n'abantu, umuhanda ukaba ukikijwe n'inzu ndende ndetse n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti bisa icyatsi birebire ndetse n'ibinyabiziga biri kuwugenderamo, bifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, n'inzu ndende ziwukikije.

Inzu nyinshi zubatse ahantu hamwe ndetse nini zifite ibyatsi bizikikije n'ibiti bisa icyatsi kibisi bifite n'amashami manini.

Abantu benshi bahagaze ku isoko ndetse bamwe bitwikiriye umutaka usa icyatsi ndetse n'umutuku, abandi bitwikiriye isa umuhondo.

Inzu nyinshi zicucitse n'inzu igeretse iri ukwayo zegereye ibiti by'icyatsi kibisi bikikije izo nzu.

IInzu nyinshi z'amagorofa zifite amabara atandukanye, zikikijwe n'ibiti birebire by'imikindo, bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu nyinshi zicucitse harimo n'inzu z'amagorofa, ziri ahantu harimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti byinshi, izo nzu harimo izifite amabati atukura ndetse n'iziciye bugufi zidafite amagorofa.

Inzu isa umweru ndetse ifite imiryango minini, ifite ibirahure bisa umukara ndetse ikikijwe n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Utwatsi turi mu ibara ry'icyatsi kibisi, hirya y'ibyo byatsi hari intebe ziri mu ibara ry'ikigina, kandi buri meza iriho intebe ebyiri, hirya hari izindi ntebe ndetse n'amameza.

Abantu benshi bari kwambukiranya umuhanda ndetse n'ibinyabiziga, umuhanda ukaba ukikijwe n'inzu y'amagorofa ndetse n'ibiti birebire binyuzwaho umuriro w'amashanyarazi.

Inzu y'amagorofa atatu n'andi arengaho atavuzwe, hasi ku muhanda hari imodoka y'umweru iri gutambuka, hirya hari umugabo utegereje kwambukiranya umuhanda ndetse na moto igiye kwambukiranya umuhanda.

Inzu nyinshi zifite amabara atandukanye ndetse zikikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuhanda ukikijwe n'inzu ndende ifite igipangu gifite amabara atandukanye ndetse inzu ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu nyinshi zicucitse ariko turi kubona amabati, amenshi ariho umugese, tukabona n'ibiti ndetse n'amapoto akwirakwiza insinga z'amashanyarazi mu baturage.

Ipoto ritanga amashanyarazi risa ikigina ndetse riteye mu byatsi bisa icyatsi, hakurya hari amazu akikije iryo poto.

Inzu bacumbikamo nini iteye irange risa umuhondo, ifite igipangu cy'imbaho ndetse hejuru hateyemo n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Inzu ndende z'amagorofa nyinshi, zikikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'inzu ntoya ziri munsi y'izo nzu z'amagorofa.

Inzu iri mu mabara menshi atandukanye, harimo ibara ry'ivu, umutuku ku gisenge, igikuta mu ibara ry'umweru ndetse n'imireko munsi y'amabati.

Umuhanda wibita ukaparitsemo moto ndetse hakurya hari abantu bitwikiriye umutaka, harimo n'imodoka, hakurya hari inzu ifite igipangu cy'umuhondo.

Inzu y'imideri isa umweru ndetse ishushanyijeho imyenda ndetse n'inkweto ndetse n'abantu bambaye iyo myenda.

Abantu benshi bari mu rujya n'uruza bari kujya mu byerekezo bitandukanye, hirya hari ibinyabiziga bihagaze ku ruhande rw'umuhanda, haba iby'amapine abiri ndetse n'iby'amapine ane.

Imodoka nyinshi ziri kugenda mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire ndetse bisa icyatsi, birimo inzu zitandukanye zifite ibisenge by'amabara atandukanye.

Inzu ifite ibara risa umuhondo, umutuku, ifite kandi ibirahure bisa umukara ndetse n'ibyapa biranga ikihakorerwa.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara, hari umugabo uri kwambukiranya imihanda, uwo muhanda iyo modoka ahantu igeze ku ruhande hari inzu ifite amatafari asanzwe.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu y'amataje ndetse n'amapoto acishwaho insinga z'amashanyarazi.

Inzu iri mu mabara menshi atandukanye, hari igice gitandukanya inzu ndetse n'ibyatsi, inzu iri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'ivu hari ibirahuri biri mu mumabara y'ubururu.

Inzu nyinshi zikikijwe n'ibiti birebire, bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'amazu afite amabara atandukanye harimo umweru, ikigina ndetse n'umuhondo.

Umuhanda muremure uri gucamo ibinyabiziga ndetse ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri gutambuka mu muhanda muremure, hari abana bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara, bari kwambukiranya imihanda ndetse hari n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda muremure ugabanyijemo ibisate bitandukanye, urimo ibinyabiziga ndetse ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye harimo ibinyabiziga biri kugenda mu byerekezo bimwe harimo iby'ubururu ndetse n'iby'umutuku.

Umuhanda muremure, urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kuwutambukamo, ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amatara yo ku muhanda n'amapoto, atanga umuriro w'amashanyarazi.

Imihanda miremire igabanyijemo ibice bibiri, irimo imodoka ebyiri ndetse hakaba hateye ibiti ku mpande zaho, hepfo hakaba hakikijwe n'inzu ndende.

Umuhanda muremure, urimo imodoka ebyiri ndetse n'ikinyamitende kimwe, abantu babiri bari kwambukiranya umuhanda, imodoka zisa umukara ndetse zikikijwe n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Umuhanda muremure, urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu, hakurya hari ibiti byinshi ndetse n'amatara yo ku muhanda, n'utuyira tw'abanyamaguru hirya.

Umuhanda muremure uciyemo ibice bibiri ndetse ukaba urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu n'inzu zihakikije, inzu ngufi ndetse n'izifite amagorofa.

Umuhanda muremure uciyemo ibisate bibiri w'umukara, ufite mo hagati ahantu hateye ibyatsi ndetse n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Umuhanda uraho ushushanyijemo imirongo y'aho bambukira, hepfo hakaba imodoka isa umweru, ifite amapine y'umukara, hepfo hakaba abantu bane bari kureba iyo modoka.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu, umuhanda ufite ikiraro kiri hejuru ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi.

Umuhanda muremure, harimo umugore uri kwambukiranya ibisate by'imihanda, hari igice kigabanya imihanda ibiri, harimo ibyatsi ndetse n'ibiti, harimo ikinyabiziga gihagaze kugira ngo umugenzi abanze yambuke.

Umuhanda wanditsemo ahedi. Harimo ikinyabiziga kiri kwihuta cyane. Umuhanda usa umukara, mu magambo asa umweru.

Ibinyabiziga biri mu muhanda muremure, biri kujya mu cyerekezo kimwe, bigiye guca munsi y'ikiraro kirekire, hirya y'umuhanda hari ibyatsi ndetse n'indabyo ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuhanda uciyemo kabiri, utandukanyijwe n'ubusitani buteyemo ibiti birebire by'imikindo ndetse hakaba hatewemo n'ibyatsi kandi umuhanda ukaba arimo n'ikinyabiziga kimwe.

Umuhanda urimo umurongo utandukanya ibisate bibiri, umurongo usa umuhondo, kuruhande hari igikamyo gisa umweru, hirya hari umuntu uri kwambukiranya imihanda.

Umuhanda muremure urimo ikinyabiziga ndetse n'ibiti bikikije umuhanda birebire, bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo ibyatsi, abantu bambaye imyenda y'umukara, amatara yo ku muhanda n'icyapa cyerekana umuhanda.